tomatoes thereis eggprince aman wearing a Blue Tshat eman warining egray shat and thereis amarket wear commercial delings are conducted

aimarket wehere et frocer fece is covard ap wis tiles wcr the mostsuitble matlies to best foflock varining A market where ensfroce surface is covered up with stiles which are the most suitable materials to be used for follow covering.

Wani mani weyaringi ewayiti fasimasiki andi esikayibulu shati andi efimare koka kora dirikisi inyange wata payinapo juyisi.